Iduka ricuruza ibikoresho byifashishwa mu buzima busanzwe harimo amasabune yo koga, amavuta ya gikotori yo kwisiga, amajuyisi yo kunywa, inzoga z'ubwoko bwa henikeni, amakaramu, uburoso bwo mu menyo.